Aba ngabo barimo kwiga kudoda. Imyuga yo kudoda amaniforume, kandi nabo wagira ngo bambaye iniforume imwe. Imashini zo kunyonga, nizo bazakoresha.